Ahacururizwa amata n'ibijyanye nayo byemerewe kuba waharira cyangwa ukayatwara uguze yemerewe kwishyura kuri nimero; zero karindwi umunani umunani kabiri karindwi kabiri kabiri umunani karindwi ku mazina ya Riberata.